Aho bacururiza imiti yo kuvurisha. Iyo warwaye ujyayo ukavuga umuti ushaka bakawuguha ukabyishura amafaranga, ugataha ukajya kuwunywa bakubwira noko urawukoresha.

Aha ni kwa muganga ndabona hicayemo umuganga, ni yo tujya kwivuza iyo twarwaye abagore bajyayo bagiye kuboneza urubyaro ,abafite abana bato bakajyayo bagiye kubakingiza inkingo.

Forumasi tujyayo tugiye kugura ibinini. Iyo tuvuye kuyivuza, muganga yabikwandikiye, akabijyanira uba ari gucururizamo, abiduha. Cyangwa twaba dushaka ibinini tutarajya kwa muganga, tukajyayo, tukabigura, tugatanga amafaranga.

Ndahabona amazu meza y'abakire, asakaje amabati y'umutuku asize n'amarangi, nkabona imodoka zihaparitse imbere, ndi kuhabona n'imihanda ihanyuze n'ibyuma biriho amatara yo ku muhanda.

Ibikorwa remezo habamo n'ibitaro, ni ingirakamaro cyane, kuko iyo twarwaye tujyayo bakatuvura tugakira tukamererwa neza, bitanga n'akazi ku baganga, n'abakorayo amasuku, n'iyo ababyeyi bagiye kubyara bajyayo bakababyaza, bagatahana abana, batanga n'inkingo ku bana bakiri batoya.

Aha ni ho tujya kugurira imiti yo kwivuza. Tujya kwa muganga bakakuvura bakakwandikira imiti, maze ukajya kuyigura cyangwa se wakumva iyo ushaka uyizi uturibuge kwa muganga, uraza ukawugura.

Ni inzu zicuruza imiti yo kwivuza. Uragenda ukivuza imiti bakayikwandikira, ukajya kuyigura cyangwa se washaka kujya kugura imiti, uragenda ukinjira muri iri duka , ayo maduka bayita farumasi, ukagenda bakaguha umuti ushaka , bakawuguha ugatanga amafaranga.

Ibikorwaremezo habamo n'ibitaro, niho tujya kwivuriza iyo twarwaye, tukajya gukingiza abana inkingo, ababyeyi bagiye kubyara niyo bajya, bifite akamaro kanini cyane kuko bituma ubuzima bwacu bugenda neza, n'igihugu kikaba gifite abaturage bafite ubuzima bwiza.

Ibi ni ubwoko bw'ibimera bidufasha mu kwivura indwara iyo tutabashije kuzajya kwa muganga. Ibi ni byo twifashisha tukareba ko twakira ubwo burwayi.

Ibi bimera bimera ahantu hari amashyamba cyangwa ibihuru, bikoreshwa bari kuvura indwara. Biba mu miti ya kinyarwanda cyangwa gakondo, bikoreshwa bari kuvura indwara turwara.

Ayangaya ni amasaka yeze ariko atariyumari ntibaribayagesa, tuyakoresha dushaka gukora umusururu cyangwa ikigage. Turayatema, tukayanika, tukayahura, tukabetesha ifu.

Ibi ni ibimera bifashisha buri munsi byo kuvura indwara zirimo ibicurane cyangwa ku mubiri zibasira abana bakiri batoya cyane.

Habaho imiti ya gakondo y'amoko menshi, hari iyo twivuza twarwaye ibicurane n'inkorora cyangwa niyo twisiga indwara zo ku ruhu zikagenda, habaho n'abavuzi ba kinyarwanda babigize umwuga bakoresha imiti gakondo y'ibyatsi.